Umugabo wambaye ibyenda by'umuhondo bimufubitse ahantu hose n'agapfukamuwa n'uturindantoki ahetse ipombo arimo aratera ibihingwa bye binashingiriye, ku ruhande hari ibindi bihingwa bihahinze ndetse hari ikirere cyiza.

umugabo wambaye ishati n'umupira wo kwifubika n'ipantaro wambaye n'agapfukamunwa uhetse ipombo urimo aratera umuti ibihingwa bye bihinze muri uyu murima, hakurya birakomeje ahantu hanini cyane.

Abantu bafite inshundura barimo bagerageza kuroba amafi mu kiyaga gihari, gikikijwe n'ibyatsi byenda gukura ndetse hirya hari ibindi byo bikuze kurenza ibiri aho.

Abantu bambaye ibisarobeti batatu, ndetse n'undi hagati yabo wambaye umupira w'imbeho n'ipantaro, bafite indobo bari kuvomesha mu mazi y'ikiyaga, ku kuruhande hari ibyatsi byahameze ndetse n'ibiti bisa nk'aho ari birebire.

Abagabo bane bari kurobesha supagnette amafi barayifashe, uko bose bahagaze umwe muri bo arikuye hejuru ntiyambaye, abandi bambaye imipira y'amaboko magufi ,ndetse babiri muri bo bambaye n'ingofero bahagaze mu kiyaga ,ku nkombe yacyo aho iruhande hari n'ibyatsi bihameze.

Amafi menshi arundanyije ahantu ni ibinyabuzima bikurira mu mazi bifasha mu buzima bwa buri munsi, aho biribwa nk'ibyo kurya byubaka umubiri ndetse bigafasha abana kugira ubwenge mu ishuri.

Abantu bane bambaye bifurebye umubiri wose ndetse no mu mutwe, bahetse ibitebo bari mu murima w'icyayi bagiye kugisarura, kifashishwa mu koherezwa hanze kikinjiza amadovize mu gihugu.

Abantu bamwe bahagaze ku ruhande rwo hino abandi ku rwo hirya, barimo barapakira ikawa mu mabase n'imifuka bari bashyize ku gatanda, hirya hari ibindi bitanda byo gushyiraho ikawa ndetse n'umurima zihinzemo hakurya.

Umugore wambaye akagofero k'umutuku'ishati y'amaboko maremare n'akantu kameze nk'agasabeti ufite igitebo inyuma yakiziritseho arimo arasarura icyayi yishimye cyane inyuma hari inyubako yubatse ku buryo ibafasha kubika ibyo basaruye.

Abagore benshi biteze ibitambaro mu mutwe, bambaye n'ibitenge, bamwe muri bo banifubitse, aho bari hateretse ibase, barishimye, bari gukoma amashyi, inyuma yabo hari ibiti bihahinze ndetse hari n'urubingo.

Abantu bari mu muganda wo gutera ibiti, harimo umwe wambaye umupira w'icyatsi ipantaro y'umukara n'umugabo wambaye ingofero n'umupira w'amaboko magufi n'ipantaro ndetse n'abandi bahagaze, harimo n'abasirikare babiri, inyuma hateye ibiti ariko bitegeranye cyane.

Abantu barimo abagabo n'abagore bafite ibintu biteyemo ibiti kumwe babihinga babiteye mu kintu. Inyuma hari abandi nabo bari gukora nk'ibyo ndetse hari n'ibindi biti biteye byatangiye gukura.

Abagore babiri bari mu murima uhinzemo. Umwe yambaye ikanzu y'igitenge, undi yambaye igitambaro mu mutwe umupira w'amaboko magufi, ndetse n'igitenge afite n'umuhoro mu ntoki hirya hari ibihuru byinshi hari n'igiti kihateye.

Ibyo kurya bitandukanye harimo ibyo urya bihiye ndetse n'ibindi ukoresha nk'ibirungo, harimo urusenda kokombure, puwavulo wotameloni, ironji, indimu ndetse n'ibindi.

Ikigori cyahetse kenda kuma, ni ikiribwa abanyarwanda bakunze kurya yaba gitetse cyangwa se bakacyanika bakagikoramo ubufu bw'ubugari bwo kurya bakunze kwita kawunga, impande y'aho hari ibindi byatsi bihateye.

Umugore n'umugabo batanditse inyanya nyinshi mu mifuka barimo bazicuruza. Imbere hari umugabo uje kugura, undi ari gushyira mu tudobo tubiri twa tundi tuba turimo, ubudomodo hirya hahagaze undi mugabo ubyibushye cyane ndetse na bagenzi be, impande y'ibiti, aho hirya.

Inyanya zirunze hasi, harimo izatangiye kubora harimo n'izaminnetse gahoro n'izamenetse cyane cyane, harimo n'ibishishwa by'amaronji ndetse n'ibya avoka, zifashishwa mu gutuma ibiryo bihindura ibara bikaryoha ndetse zikanafasha mu kugira intungamubiri zifasha umubiri w'umuntu.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi urimo imirongo ndetse n'ingofero mu mutwe n'ipantaro n'inkweto za bodaboda z'iroza, afite umupira ari kuvomerera ibihingwa bye birimo n'igiti kinini, hirya yabyo hari ibindi biti byinshi ariko bidakoze ishyamba.

Umugabo, uri mu murima ufite umupira uri kuzana amazi, akuhira imyaka ye yahinze itaratangira kumera. Hirya hahinze urutoki ariko rudacakiranye cyane, haruguru yarwo ni ahantu hahinze naho ibihinzemo bitaratangira kumera.

Umugabo ufite umupira w'amazi, uri kuvomerera ibihingwa bye bitaramira, iruhande rwe hahinze amasaka ndetse hari n'urutoki ariko rukeya, inyuma haruguru harimo inzu abamo we n'umuryango we.

Ibiti biri hino no hakurya, mo hagati harimo agahanda gatoya k'ibitaka, imvura yanyereje kubera kugwa cyane, hakurya hari umusozi uriho amaterasi y'indinganire, uhinzeho hamwe, ahandi hadahinze ndetse hateyeho n'ibiti.

Inzu yubakishije amategura iri ahantu ituye yonyine, hari urutoki n'ibindi biti byinshi bihateye, hamwe n'ibyatsi byagiye bimera imbere y'iyo nzu.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro ndetse n'inkweto za bote, ahagaze mu nkoko ze afashe ku cyuma kiri mu nzu azororeramo, hari amadirishya y'utubaho na zo ziri kurya ibyo kurya yazishyiriyemo.

Abaveterineri bamwe bahagaze inyuma y'ikiraro, abandi binjiyemo imbere, kirimo inka nziza z'Inyambo, aho bahagaze hari akantu k'akayira ndetse hateye n'ibyatsi bya pasiparume, hirya y'aho hari ibiti bigiye bitandukanye.

Inka nziza ifite ibara ry'igitare n'iry'ibihogo, iri kurisha ubwatsi bayizaniye mu kiraro cyayo, inyuma hari ibiti by'ibirabyo byarandaranze, ku nzu ihari yubakishije amatafari ya rukarakara.

Abaganga bita ku matungo bakunze kwitwa abaveterineri, umugore yambaye itaburiya y'umweru n'aho umugabo we yambaye igisuti cy'ubururu, bahagaze mu nka bamaze kuvura cyangwa se kwitaho, inka nziza z'inyambo zifite amahembe meza ateretse neza.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro ndetse n'inkweto. Ahagaze imbere y'inka ze, aho azitegereza ziri kuririsha ibiryo byazo yaziguriye, aho ziri mu kiraro cyazo.

Inka nziza z'imishishe ziri mu rwuri, hari ibyatsi ziri kurisha, zitanga umukamo mwiza, amata akifashishwa mu guha abana bakiri bato bityo bagakora neza mu minsi igihumbi ya mbere y'ubuzima bwabo.

Inka nyinshi ziri mu rwuri, zirimo zirarisha, nubwo hatari ibyatsi bitoshye, ahubwo byatangiye kuma, haruguru gatoya, harimo ibiti bigiye biteye ariko bitandukanye bisize umwanya hagati yabyo.

inzu irimo inkoko nyinshi zitandukanye, harimo amasake n'inkokoko, zihagaze mu biryo byazo babimeneye, hanze hari kugaragara ikigega kirimo amazi, inyuma hari ishyamba ndetse n'igihe cy'ikibunda.

Umugore wambaye isengeri n'ijipo y'umukara n'ingofero mu mutwe ndetse upfumuye n'amatwi harimo amaherena, arimo kugosora ibishyimbo akoresheje intara, inyuma ye hari urugi rw'igipangu, rusize irangi ry'ubururu butijimye.

Amabasi atatu arimo ibishyimbo, abagore bicaye bambaye ibitenge bafite udusuniya turiho ibishyimbo bari kugenda batoranya kugira ngo bize kuza kubikwa bimeze neza.

Imparage ifite amabara y'umukara n'umweru, ingwe yayuriye irimo irayijomba amenyo, hari ibyatsi byinshi cyane aho ngaho aho biherereye mu ishyamba ryabyo.

Muri parike harimo inyamaswa nziza nyinshi zitandukanye, arizo impara n'imparage n'izindi. Ziri utwatsi twiza cyane, zigenda aho imparage zifite amabara meza y'umukara n'umweru.